Imodoka itwara abarwayi amburance yerekanye imbere hayo harimo kizimyamowoto, intebe zo kwicaramo, ibitanda byo kuryamaho by'abarwayi n'intebe shoferi yicaraho atwaye imodoka.

Icyapa cyanditseho isange one stop center Nyagatare gishinze m'ubusitani bw'ikigo cy'amashuri cyegeranye n'indabo z'umuhondo inyuma yacyo hari igiti cy'umwembe.